Umugabo wambaye imyenda y'ikirango cya FPR Inkotanyi, ari gutanga ikiganiro, inyuma ye hari ibirango bya FPR Inkotanyi, afite mikoro mu ntoki.